Icyapa kinini cyane giteye ku rukuta cyanditsweho amagambo menshi, yandikishijwe ibara ry'umukara, n' ibara ry'ubururu . Muri ayo magambo yanditsweho agera kuri makumyabiri n'atatu, n'irindi rirerire riri hejuru, n'irindi riri hasi.

Amashuri yubatswe afite imiryango isa n'ibara ry'ivu harimo ikibuga ca basikete hakabaho n'ubusitani buteyemo umucaca w'icatsi urimo n'igiti cavoka.

Abanyeshuri benshi bicaye mwishuri, bambaye amashati yumweru na karuvati, abakobwa baritandiye ibitambaro mumutwe, imbere yabahagaze umugore wambaye ishati yigitenge uri kubagani nabandi bantu, bahagaze mumadirishya.

Abanyeshuri bari kwiga gukanika, harimo abakobwa n'abahungu bambaye amasarubeti afite ibara ry'ivu, bambaye n'inkweto zifunguye hirya yabo harimo akabati karimo ibikoresho bifashishaga.

Abanyeshuri benshi cyane bicaye mu ishuri, bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'icyatsi, harimo abakobwa bitandiye ibitambaro mu mutwe, hagati hahagaze umupolisi ufashe urupapuro mu ntoki ari kubaganiriza.

Ishuri ririmo ameza afite n'intebe yayo imwe. Rifite ikibaho gisa n'icatsi. Hirya hamanitse ibipapuro, hejuru hari isaha, amarido arafunguye.

Abanyeshuri bari kwiga kubaza bambaye amasarubeti asa na kake na ga mu ntoki. Bose bambaye udupfukamunwa. Hari umugabo ufashe kamera ufite kamera mu josi.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, buri wese yicaye ku ntebe ye afashe ikayi, bambaye udupfukamunwa. Imbere ya bo hagaze umwarimu uri kwandika ku kibaho wambaye itaboburiya y'umweru.

Abanyeshuri bari kwiga guteka bambaye imyenda yo mu gikoni isa n'umweru n'ingofero z'umweru, haruguru hariyo abandi batatu, imbere yabo hateretse amasafuriya n'ipanu.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bari gukora ikizamini buri wese yicaye ku ntebe ye bambaye inifomo zitandukanye, bamwe bambaye amashati g'umweru ,abandi bambaye amashati g'umutuku ,bose bari kwandika.

Abanyeshuri bari kwiga gukanika. Bambaye ibisarubeti bisa n'ubururu. Benshi bahagaze hirya imbere y'ikimashini. Umukobwa we hepfo afashe akuma mu ntoki ari ku kareba.

Abanyeshuri benshi bari mu ishuri buri wese akaba yicaye ku ntebe ye bakaba gukora ikizamini, hari abari kwandika, hari abariri gusoma ibizamini bahawe bambaye amashati yumweru n'amajipo ya kaki, abandi bambaye imipira isa n'icatsi.